Umuganga w'igikara wambaye itaburiya y'umweru n'igitanda kiriho amashuka y'umutuku ariko kuri icyo gitanda haryamyeho umugore utwite. Muganga akaba yashyize icyumvirizo ku gutwi kugirango yumve ko umutima w'umwana utera neza .

Aba abakoranabushake, ni abakoranabushake ba Croix Rouge biganjemo urubyiruko, bakaba bambaye amajire ya Croix Rouge ari mu ibara ritukuye ashushanyijeho umusaraba, bakaba barimo barafata imivuduko abantu bagiye gutanga amaraso. Bicaye ahantu muri sale, hari ameza ariho ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, imbere yabo hateretse amazi n'amakayi.

Icyumba ni icyumba kitari kinini cyane kikaba giteretsemo utubati, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo kwa muganga, hakaba hari ameza ateretseho ibikoresho bimwe na bimwe bifashisha harimo ama ga n'ibindi, hakaba harimo umuganga wambaye itabuririya y'umweru uri muri icyo cyumba.

Imbere yanjye hari umuntu wambaye akajiri kagiye karimo imisaraba, karimo ibara ritukura, ndetse niry'umukara, ka kuruwaruje cyangwa se redi korosi, akaba hari abantu benshi bambaye umukara n'umweru biganje, bafite amahugurwa bari kubahugura, bakaba bafite ibyo barimo bararebera kuri televiziyo.

Urubyiruko rw'abakorerabushake ba croix rouge bakaba bambaye amasengeri ya croix rouge y'umweru kandi arimo ibara ry'umutuku rikoze umusaraba, barimo barazenguruka ahantu mu isoko bagenda bamamaza croix rouge.

Ahangeze hari abantu b'abagabo biganje barimo abagabo harimo n'abadogiteri, abadoteri batatu bambaye amataburiya bane bambaye amataburiya, inyuma hakaba umurwayi biragaragarako bari kumufasha hakaba harimo umumama ukenyeye ibitenge wegeranye nundi mukobwa umwe, hira yabo hakaba hicaye abandi bantu kunebe zihari.

Imodoka iparitse ahantu, mu modoka harimo ibikoresho bitandukanye bipfutse masashe y'umutuku ndetse na y'ubururu hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri gupakurura .

Kuri iyifoto ndahabona abagabo ndetsebe n'abagore babiri barimo ndetse n'umuzungu umwe bakaba bahagaze imbere y'inyubako nziza iteye amarangi meza kandi niho umugabo.

Abantu benshi bari imbere y'ishuri cyangwa ikigo nderabuzima, bakaba bari mu kibuga ari benshi bari kumwe n'umuganga, hanyuma bakaba barimo n'umusirikare kandi n'abandi bayobozi, barimo barabaganiriza

Aha ndahabona umubyeyi uhetse umwana imbere yange ufite n'umutaka mu ntoki akaba ari kumwe n'abandi babyeyi bageze kuri batanu, batandatu harimo n'abagabo bafite impapuro mu ntoki bigaragara ko baje kwivuza hanyuma hakaba handitse ngo isuzumiro rya muganga hari n'umuganga uhagaze hafi aho afite impapuro mu ntoki ndetse n'ikaramu.

Iki gisale ni igisale kigari cyane kirimo ibitanda. Ibi bitanda bikaba birimo umwanya wahajyanyweho abantu barimo gutangamba amaraso muri iyo stade.

Aha kuri iyi foto ndahabona abaganga batandukanye, hari abaganga batanu ndetse hakaba na dogiteri wambaye ibiri mu mabara y'ubururu, hakaba hari igitanda hafi yaho, hakaba hari akabati ndetse n'amatara acanye hejuru yabo, inyuma yabo hakaba hari imashini zitandukanye zesitaye mu nsinga zitandukanye ariko bose bafite udupfukamunwa, bose batwambaye neza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa itaburiya ndetse na baji y'akazi, akaba ari kumwe n'abandi bantu batandukanye, baje gusura ikigonderabuzima, bagera kuri batatu. Hakaba hari n'abarwayi bicaye baje kwivuza.

Aba babyeyi biganjemo abasaza ndetse n'abakecuru rwoseu bigaragara ko bakuze cyane, ni harimo n'abana n'umwana, ni ababyeyi bicaye hanze ku kigonderabuzima bigaragara ko baje kwivuza.

Aha hari raputopu, raputopu iri mu mabara y'umukara n'umweru ifite amatushe y'umukara, ikaba ari umweru ifite sikirini y'umukara inyuma yayo hakaba hari tereviziyo y'umukara ikaba iteretse hejuru y'ibikarito hafi yaho hakaba hari ibindi bikarito bihakikije hari sima yo hasi iri mu ibara ritukura, hakaba n'urugi narwo ruri mu ibara rijya gusa umweru.

Iyi nzu yanditseho ngo malitipapasi cyangwa inzu mbera byombi, iyi nzu isize amabara yijimye avanze amabara y'umweru, akaba ihagazeho abantu benshi biganjemo abambaye umweru hejuru, harimo ababyeyi, abakobwa n'abasore bahagaze ahantu hanze hafi y'amapave, bafite icyapa cyanditseho ngo baho kandi imbere yabo hari utujaride twiza cyane.

Urukuta rwubakishije amabuye ndetse n'ingazi zizamuka zijya ku kigonderabuzima cya Tabagwe .

Ambiranse, ni ambiranse ihagaze ahantu mu muhanda w'amatafari ahiye ariko hashaje, akaba ari ahantu mu ishyamba. Akaba imbere yaho hagaze abantu batatu no ku ruhande rwayo hakaba hahagaze undi muntu umwe.

Aha kuri iyi foto ndahareba umuganga umuganga akaba afite ka gakoresho apimisha umuvuduko iruhande rwe hahagaze umubyeyi umubyeyi wambaye ibitenge n'agatsi ka natirere hanyuma aho bahagaze bahagaze ahantu mu cyumba harimo ameza harimo n'ibindi bitabo bitandukanye birambitse ku meza hari intebe ndetse hakaba hari hari n'irindi bara ry'ubururu ku rugi.

Umubyeyi, ni umubyeyi uryamye ku gitanda gisasheho amashuka arimo ubururu, umweru ndetse intebe y'ubururu bwerurutse, umubyeyi uryamye muri supanete ariko aryamanye n'uruhinja rukiri rutoya, akana keza rwose, bigaragara ko yabyaye uyu munsi cyangwa se haciyeho iminsi mikeya.

Umuganga mubonye wambaye itaburiya y'umweru n'ipantalo y'umukara irimo amabara makumyabiri tambaro hakaba hari bitandukanye ari kumwe n'undi mubyeyi umurwayi arimo aramubaza.

Ambulanse ni iyo modoka itwara abarwayi kwa muganga, ikaba ifite purake gl magana mirongo itandatu nagatandatu i ikaba iparitse muri parikingi imbere y'ibitaro bi parikini ikaba ikoreshejwe amabuye.

Iki cyapa, ni icyapa gifite ibara ry'umukara gishushanyijeho idarapo ry'uRwanda. Kikaba ari icyapa giteretse ahantu mu muhanda w'amakaro. Kikaba cyanditseho ngo, gukunda umurimo no kuwunoza, kugira ibanga ry'akazi, ndetse no guharanira ubuzima bwiza.

Ndabona abaganga babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye amarinete afite urupapuro bigaragarako haribyo arimo arasobanurira umurwayi nkabona n'umurwayi w'umumama ukenyeye igitenge akambara agatambaro mumutwe nkareba akabasketi gateretse ndetse hari n'intebe bicayeho hakaba ameza, ayo meza akaba arimo akabati, akabati karimo kakaba karimo agafunguzo, nkabona n'imapuro zimanitse muri iyo nzu.

Uyu muhanda ni umuhanda usobanutse urimo abantu benshi, hakaba hari icyapa cyanditseho ngo nyagatare disitirigiti hosipito cyangwa se ibitaro bya nyagatare, bakaba n'abantu bari mu rugendo rumwe, bafite maya yanditseho ngo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya mirongo itatu ku bitaro mu rugendo rwo kwibuka.

Hano ndahabona abanga babiri, urupapuro n'ika umuganga umwe w'umugabo wambaye amarinete, itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara, yicaye ku ntebe y'umukara, afite urupapuro bigaragara ko hari ibyo asobanurira umubyeyi, uwo mubyeyi akaba ari uwaje kwivuza nawe akaba afite agakaye mu ntoki akaba ateze n'agatambaro mu mutwe. Hafi aho hakaba hari ameza n'intebe ndetse n'aka basket ko kumenamo imyanda.

Ni abantu batatu bose bambaye udupfukamunwa, bakaba bahagaze ahantu mu nzu isa neza, bakaba umwe muri bo yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu, ukurikiraho akambara ipantaro ya burusiyeri ndetse n'ishati ya burusiyeri, undi akaba yambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'ishati y'icyatsi kibisi, bakaba bose ari impuzankano bambaye.

Aka gatesite, ni agatesite kanditseho ngo HIV test, kakaba kifashishwa mu gupima virusi itera SIDA, kakaba gafashwe n'umuganga ariko akaba agafatishije ibikoresho byabugenewe, ibyo twita Gamu, imbere ye hakaba hateretse n'impapuro agiye kwandikaho ibisubizo.

Umuganga w'umusore ufite umusatsi wa natirere, yambaye itaburiya y'umweru, ameze neza yicaye ku ntebe, akaba imbere ye hari ameza ateretseho igikoresho cyabugenewe aricyo twita mikorosikope, akaba arimo ararebamo afite ibizamini arimo gupima.

Umuganga w'umusore wambaye ishati y'umweru, yambaye itaburiya y'umweru, ari muri laboratwari, akaba afite mikorosikope, arimo ararebamo bigaragara ko hari ikigamijwe kinini.

Ni umuganga, Umuga akaba yambaye ga z'umweru, ndi kumwe n'umubyeyi, umubyeyi nawe akaba yazanye umwana we, umwana bakaba bari kumujomba urushinge ku kuboko.

Ibi bikoresho ni ibikoresho byo kwa muganga birimo ibyo bifashisha mu koza ibisebe, harimo amaga bifashisha bagiye kwambara bagiye gukora kuvura uwo murwayi, harimo amapamba ikoresha bahanagura bakoresha bahanagura ibisebe ndetse n'indi miti y'amazi bikaba biterereka gipamba.

Aha ndahareba umugabo wambaye isarubeti yanditseho press akaba yambaye amarinete ndetse yambaye n'agapfukamunwa yambaye na ga mu ntoki, ari ahantu muri laboratore hari ibindi bikoresho bya laboratore ari gu tesitinga, icyo gikoresho afite ndabona ari imashini afite ari gukoreraho.

Ni abanyeshuri ,ni abanyeshuri bambaye impuzankano z'amashati y'umweru udupfuwa tw'umukara n'umweru imipira y'ubururu n'umweru ,bakaba bari muri laboratory harimo ibikoresho bitandukanye byo muri labo ,bakaba barimo kuyikoresha mu ma group agiye atandukanye.

Ababyeyi ni ababyeyi bari hano harimo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga n'abandi bakozi ba rbc bakaba bari mu gikorwa cyo gupima abana, barimo barapima umwana hano bakoresha igikoresho cy'uburebure kugira ngo barebe uburebure afite, hanyuma abakoranabushake ba rbc bakaba bambaye t-shirt z'umuhondo.

Ishuri ni ishuri ry'abana b'incuke ririmo abana benshi, bicaye ku dutebe tugufi turi mumabara y'cyatsi kibisi ndetse n'ubururu, bakaba bicaye no ku tu meza rwose bareshya bakaba bakikijwe n'ababyeyi, ababyeyi ndetse n'abarimu bakaba bafite amasahani mu ntoki yo kugaburira abana indyo yuzuye.

Iyi nyubako, ni inyubako ngari, ikaba ifite amabati y'ubururu, ibigega inyuma biri mu ibara ry'umukara, ibiti bibikikije, ndetse n'agahanda kerekezayo, hakoratirijwe udukorotire tw'umukara n'umweru.

Ababyeyi ni ababyeyi batari benshi cyane, bakaba bari ahantu mu cyumba cyo kwa muganga, ni icyuyumba babyariramo, uyu mubyeyi akaba ateruye uruhinja, hanyuma iyo nzu ikaba irimo supanete, hakaba harimo n'irangi ry'umuhondo ndetse n'ibitanda biriho bifite utubara tw'umukara.

Uyu mubyeyi umubyeyi ukiri mutoya asa naho umwana, akaba ari umubyeyi wabyaye agahinja kakiri gato rwose, bigaragara ko kavutse vuba, aba yicaye ku gitanda kwa muganga arimo konsa umwana aracyafite n'igipfuko ku maboko bigaragaza ko akiri mu bitaro.

Aha kuri iyi foto ndahabona ishuri ikigo k'ishuri hari n'abanyeshuri abana bato biga amashuri abanza na maternelle bakaba bari kumwe n'bagabo batatu umwe muri bo uri hafi yange ni umwarimu abandi bambaye uniforme babasuye abo bana bakaba bicaye ku dutebe n'utumeza bisize ibara ry'icyatsi kibisi bigaragara ko bari mu ma groupe barimo baragira ibyo babasobanurira.

Umubyeyi, umubyeyi usa n'ukuzemo, akaba yicaye ku gitanda kwa muganga, akaba ari kumwe n'umuganga wambaye baji ndetse n'itaburiya, uwo mubyeyi akaba afite akana k'agahinja arimo konsa, afatanyije na muganga guterura ako kana.

Ndabona urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu abahungu bambaye inkweto z'umukara ziganje ndabona bambaye iz'imyeru n'andi mabara avanze harimo umuhungu umwe n'umukobwa bambaye amarinete abenshi biganjemo inzobe ubona bafite n'ikirango cya rbc cyanditseho nashino.

Iyi nyubako ni inyubako isize amabara y'umweru, ifite konoshi zikoze mu makaro, ikaba imbere yaho hari agahanda k'amapave, ikaba kandi iriho icyapa cyanditseho ngo megaveti isite afurika, kikaba hari icyapa k'ibara ry'umweru cyandikishijeho amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umutuku.

Farumasi ngari irimo akabati karimo imiti itandukanye iri mu bikarito biri mu dukombe, hakaba harimo umugabo w'umusatsi mwishi wa natureri ndetse n'ubwanwa, akaba yambaye itaburiya y'umweru akaba arimo gukora muri iyi miti.

Farumasi ni farumasi ngari cyane, ikaba irimo imiti itandukanye igiye irimo udukapa dutandukanye, hakaba harimo iri mu dukarito tw'umuhondo, umutuku, umweru n'andi mabara, hakaba kandi harimo umama wambaye itabuririya y'umweru, amaherera ndetse n'imisatsi ya natirere.

Iya ni farumasi irimo imiti itandukanye y'amatungo, hakaba handitseho ngo rbc, iyi miti iri mu mabara y'umweru iri mu macupa ari mu mabara y'umweru ndetse afite imifuniko y'icyatsi kibisi.

Inzu iriho icyapa kigaragaza ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi hejuru y'icyapa hari insinga.

Ni imiti itandukanye, harimo ibinini bya kabusula cyangwa se mikopine, hakaba harimo ibinini bitukura, iby'amabara y'ubururu, iby'ambara y'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi cyerurutse.

Abantu bafite imbwa ebyiri hari icyapa cyo gukingiza imbwa umurenge wa Nyagatare hakaba hariho na kalendari yanditseho igihe bizabera kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki umunani , ugushyingo , umwaka w'2023.

Furaya, furaya ya rbc ivu kurwanya malaria, hakaba hariho uruziga rurimo cross, umubu bivuze ngo turwanye umubu worora malaria, ikaba iyo nama yitabiriye abantu batandukanye harimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bambaye imipira y'imyeru n'ingofero z'umyeru.

Urubyiruko ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye amashati ya buresiyeri, bakaba bicaye imbere y'imeza, bakaba bafite kandi icyapa cyanditseho ngo, ndi uw'agaciro ndashoboye.

Aba abantu babiri bari kuri stage bambaye imipira y'umweru yanditseho ngo ugakoreshe neza ,umwe muri bo amikorofone hanyuma hakaba furaya zanditseho ngo ugakoreshe neza. Ariko kandi hakaba hari n'abaturage benshi bitabiriye iyo kampeyini ya tugakoreshe neza.

Aha ndahabona intoki cyangwa se ibiganza by'umuntu, ni ibiganza bibiri bigaragara ko ari igika, inzara ntizigaragara neza afite agapapuro ndetse aranakazingazinze ariko muri ako gapapuro harimo ibintu bimeze nk'umuti wa kinyarwanda kandi uwo umuntu yambaye ibirenge ntabwo yambaye inkweto, hafi aho ahagaze ahantu mu gitaka ku ruhare rwe hari ikimera gihari cy'icyatsi kibisi.

Kuri iyi foto ndahabona umubyeyi, umubyeyi witeye agasharupe k'umweru, akaba afite n'ishakoshi cyangwa se mareti mu ntoki, afite agasatsi ka naturele yashyizemo umubino, uwo mubyeyi ahagaze ahantu mu rutoki, hari kandi n'igihingwa cy'umuravumba, akaba ameze nk'urimo arasoroma uwo muravumba we.

Umujyanama w'ubuzima akaba yambaye itaburiya ndetse n'umupira byanditseho rbc akaba afite impapuro mu ntoki ndetse n'ikaramu, yambaye na baji yanditseho umujyanama w'ubuzima, akaba ari ahantu hatereretse ibyapa bimwe na bimwe hari icyapa cyanditseho ngo baho neza, imbere ye hakaba hari ibikombe birimo imiti itandukanye.

Uruboga, uruboga rwakuze urwo twita dodo, rukaba rufite amashami menshi, uruboga rwiza rutohagiye, rukaba ruri ahantu ku musozi, hari urudodo rumwe rwonyine rukaba ruteye ahantu hagati y'imiyenzi.

Umukecuru ni umukecuru ukuze cyane rwose wiyambariye agapfakamunwa. Akaba yateye agatenge mu bitugu. Akaba ari kumwe n'umuganga wambaye ga z'umweru nawe wambaye agapfukamunwa ku mweru akaba arimo kumutera urushinge ku kuboko.

Aba baturage ni abaturage biganjemo ababyeyi ndetse n'abakecuru abapfu ndetse n'abagabo kandi bakaba imbere yabo hari abantu batatu bari kubaganiraho harimo umuganga ndetse n'abandi bamba.

Inyubako ni inyubako ya herifu posite, ikaba ihagazeho abaganga batandukanye ndetse n'abandi bantu b'abagabo n'abagore, bakaba bahagaze imbere y'umuryango bareba bafokasinze ahantu hamwe.

Inyubako, ni inyubako zifite ibara ry'ubururu ubururu cyane, akaba ari inyubako zikikijwe n'indabo cyangwa se jaride akaba harimo n'uduti, hicaye abantu bagera kuri batatu, hakaba hariho n'icyapa kiriho ababyeyi babiri bafasha abana babiri mu ntoki.

Iyi foto iri imbere yange ndayireba nk'umuntu wambaye umugabo wambaye itaburiya y'umweru afite logistre y'ubururu mu ntoki, umugabo w'igikara imibiri yombi, usa n'aho abyibushye mu maso, inyuma ye gato hicaye undi mu mama uri gukorera kuri laptop, hafi y'uwo mugabo hari intebe y' udutaburete isize ibara ry'umweru, hakaba hari n'abandi bantu bicaye hafia aho ngaho bageze kuri batatu, harimo n'akana gato.

Hano ndahabona udusashe tugeze kuri tune turi mu ibara ryanditsemo hepaturiri byanditse mu ibara ry'ubururu hashushanyijho inkoko mu ibara ry'ubururu ariko bikaba bishushanyije mu kabogisi, ku kabogisi karimo ibara ry'umuhondo hanyuma bigaragara ko ari umuti w'inkoko. Hakaba hari n'utundi dusashe twinshi tuhakikije hafi Aho mu kabati.

Umuganga, ni umuganga w'umugabo, akaba yambaye itaburiya y'umweru, ubwo na ga z'umweru, ari mu cyumba ari kumwe n'umurwayi, umurwayi ufite bomboni ndetse na sonde zitandukanye, uyu muganga akaba yashyize utwuma twumva uko umutima utera amatwi ye ndetse n'utwumwumvira ko agihumeka.

Umuganga ni umuganga, ni umuganga w'umumama wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru akaba yambaye na baji mu ijosi ndetse n'agatisheti k'umutuku, umumama w'inzobe akaba afite urushinge mu ntoki.

Umubyeyi wambaye ibitenge, akaba afite n'ikindi mu mutwe, yiteye agasharupe, akaba yambaye amaherena, akaba ari imbere ya kandagira ukarabe, akaba arimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune.

Ahangaha ndahabona umugabo wambaye ijire yanditseho ngo world health organiration, akaba ari kumwe n'abandi bantu bambaye inifomo( uniform) z'abaganga, bambaye amataburiya y'ubururu, barimo bigaragarako hari ibintu bari gukora bahuriyeho hano hano kuri aya meza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba yicaranye n'umurwayi imbere y'uwo murwayi hari agapimisho k'umuvuduko akaba amuzamurasha ishati ngo abone ku mupima n'umuvuduko. yicara ahantu umuntu uretse ameza muntebe ame arimo akaba arambukaho amakoboko.

Aha ndahareba umugabo uwo mugabo akaba ari umuganga, uwo muganga akaba afite telefone iruhande rwe ndetse hafiye hakaba hari agakoresho gapima umuvuduko ku meza, uwo muganga arikumwe n'undi mubyeyi uri imbere yiwe aho waje kwivuza ariko hakaba haribyo arimo aramubaza yandika ku urupapuro afite, uwo muganga arabaza umurwayi akandika ku urupapuro afite.